Imodoka y'imbangukiragutabara iri mu mabara y'umweru, umutuku ndetse hakaba harimo umushoferi uyitwaye. Inyuma gato hari ibiti n'inyubako isize irangi ry'umuhondo isakaje amabati.

Abantu biganjemo abambaye amajire y'umutuku, bambaye na ga mu ntoki bari ku meza na yo ariho igitambaro cy'umutuku n'umweru, iruhande rwabo hakaba hari umugabo wambaye ishati y'umweru umeze nkaho ari kwisuzumisha.

Impanuka y'imodoka yabaye mu muhanda, ikaba yahombanye cyane. Hirya haragaragara umupolisi ufite imbunda ndetse n'igare rirambitse hasi ryagonganye n'iyo modoka.

Imodoka y'umweru y'imbangukiragutabara, ikaba ikinguye umuryango w'inyuma. Hahagaze umugabo wambaye agapfukamunwa, ishati y'umweru n'ipantaro hamwe n'inkweto, uri kwinjizamo ibintu by'ibikapu mo imbere.

Imodoka y'imbangukiragutabara izwi nka ambulance ikaba iri mu muhanda, iri kugenda yanditseho amagambo y’ibara ry’ubururu ngo imbangukiragutabara Nyagatare hospital iriho n’umusaraba.

Imodoka y'umweru ifite amabara y'ubururu ndetse n'umutuku, izwi nka ambulance ikabafunguye imiryango y'inyuma, iruhande rwayo hari abagabo babiri bari gucunga akagare k'abarwayi.

Umugabo w'umuganga wambaye imyenda yabugenewe ariko akaba aziritse urutoki, yambaye baji y'akazi ndetse n'icyuma cyabugenewe gupima uko umutima utera mu izosi. Iruhande rwe hari ameza ndetse na kompiyuta.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye n'irange ry'umuhondo, bakaba bafite amakarito ateretse imbere yabo bakuyemo mudasobwa imwe bari kuyifotorezaho.

Abantu benshi bicaye mu nyubako ku ntebe z'icyatsi, harimo abandi bambaye amajire y'umutuku, bahagaze bari kubarindira umutekano habereyemo inama imbere hari icyapa cy'ubururu.

Imodoka itwara abarwayi izwi nk'imbangukiragutabara isa umweru ndetse n'umutuku, hakaba harimo umuntu uyitwaye wipfutse ahantu hose mu maso ndetse n'intoki ze zambaye ga, iruhande rwayo hari inyubako.

Umugabo ufite umusatsi w'umukara, wambaye ikote ry'umukara n'umweru, ipantaro y'ikoboyi y'umukara n'inkweto z'umweru n'umukara, akaba afite agacupa k'amazi ndetse n'agakapu k'umutuku, akaba yifashe mu gahanga.

Imodoka y'imbangukiragutabara ikinguye, hakaba hari abagabo batatu bari kwinjiza umurwayi mu iyo modoka, hirya gato hari ibiti byinshi bikoze ikintu kimeze nk'igihuru.

Umugore w'umuganga wambaye agapfukamunwa n'imyenda yabo, akaba afite umusatsi w'umukara n'inkweto z'umukara, iruhande rwe hari ibikoresho byo kwa muganga ndetse n'agatanda abarwayi baryamaho.

Abaganga babiri bambaye imyenda yabugenewe bari mu nzu kwa muganga, bicaye imbere y'ameza ariho igitabo kirekire bandikamo abarwayi baje babagana, imbere yabo hari umurwayi.

Icyumba cyo kwa muganga gisize irange ry'umuhondo, hasi hakaba hasize sima y'umukara, hakaba harimo ibyuma by'ikoranabuhanga bigezweho byifashishwa mu kuvura cyane cyane mu kureba mu kanwa k'umurwayi.

Imashini imeze nka kompiyuta icometseho umugozi w'umweru, ikaba iteretse ku makarito inyuma gato hakaba hari intebe y'umukara n'iruhande hari urugi n'ahantu bacaginga telefoni. Bikaba biri mu nzu isize irangi ry'umuhondo.

Umugabo w'umuganga wambaye imyenda y'abaganga y'umweru n'ishati y'amaboko umwe imbere akaba arimo arapima undi mugabo wicaye iruhande rwe areba yuko afite umuvuduko w'amaraso.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse na ga akaba yegeranye n'umugore wambaye ibitenge yamuzamuye akaboko nk'ugiye kumutera urushinge, hirya ye hari ibikoresho byo kwa muganga.

Abantu bicaye mu cyumba gifunze kirimo amafoto agiye amanitse ku bikuta by'umweru, hasi hakaba hari sima y'umutuku n'ameza ari iruhande rwabo.

Abantu babiri bahagaze mu nzira yo kwa muganga icamo abanyamaguru bajya kwivuza. Hirya gato hari izindi nyubako zisakaje amabati, inyuma yaho hari imodoka ebyiri ziparitse z'umukara.

Abantu bambaye imyenda y'abaganga ibapfutse umubiri wose, bakaba bambaye na ga, bari mu nzu irimo amakaro y'umweru bameze nk'abari gusuzuma umurwayi.

Mu bitaro kwa muganga hahagaze abagabo babiri bari kwivura, umurwayi umwe wicaye ku gitanda w'umugore wambaye agashati k'amaboko magufi n'ipantaro, hirya yabo hakaba hari computer ziteretse ku meza y'ibiti.

Abagore, abagabo harimo umupolisi bahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye isize irange ry'umuhondo ndetse n'igisenge cy'umukara n'amadirishya n'inzugi by'umukara.

Abagore babiri bari kumwe n'umwana bakaba bafite udutabo mu ntoki, undi mwana akaba afite telefone mu ntoki, umwe yambaye igitambaro cy'umweru n'ibitenge undi yambaye ikanzu y'umutuku.

Abantu benshi biganjemo abambaye amataburiya y'abaganga bari koza utubati bashyiramo imiti, tukaba dufite ibara ry'umweru, hirya gato hari inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Umugabo ufite umusatsi w'umukara wambaye ishati y'umutuku n'umweru ndetse n'imyenda y'abaganga, akaba ari kureba mu cyuma k'ikoranabuhanga cyabugenewe, gikoreshwa mu gusuzuma utuntu duto cyane tutagaragara neza.

Umuganga wambaye ga n'imyenda y'abaganga utagaragara mu maso, akaba afashe urutoki rw'umurwayi ari kuruhanagura kugira ngo amutere urushinge. Bakaba bicaye ahantu hari ibikoresho by'abaganga ndetse n'ameza.

Umuganga wambaye impuzankano na ga utagaragara neza mu maso, akaba afite igipimo ari gushyiraho amaraso asuzuma indwara. Hirya ye hari utundi ducupa twinshi bapimiramo bashyiramo amaraso ndetse n'indobo bashyiramo imyanda.

Abantu bambaye imyenda yo kwa muganga bakaba bari ku meza ariho ibikoresho byo kwa muganga, harimo ibyo bifashisha bavura abarwayi. Barimo barapima ibintu runaka.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, akaba ari kureba mu cyuma cyabugenewe gipima utuntu duto tutagaragara, hirya ye hari akabati karimo urufunguzo ndetse n'impapuro.

Umugabo wambaye imyenda y'abaganga, yicaye imbere ya kompiyuta ifunguye, hariho n'ikaramu n'ikayi kumeza, iruhande rwe hari umugore wambaye ikote, afite n'umwana mu ntoki.

Umugabo usutamye wambaye umupira w'amaboko magufi n'ipantaro n'inkweto, akaba ari ahantu hari utwana twinshi cyane twicaye, harimo umwe yahaye igikombe ari kumuha amata.

Abagore batatu barimo bararurira abana bicaye ku dutebe dufite amabara arimo ay'umuhondo ndetse n'icyatsi, bafite amasahane ariho ibiryo. Ku ruhande hari ikibaho.

Icyumba cyo kwa muganga giteye irangi ry'umuhondo hakaba harimo ababyeyi babyaye utwana tw'uduhinja harimo umwe uhagaze ufite akana kari mu myenda yabugenewe akaba ahagaze.

Umugore ufite umusatsi w'umukara, wambaye ishati y'umweru n'igitenge, akaba ateruye akana mu ntoki kari mu myenda yabugenewe. Inyuma ye hari undi mugore, wicaye ku gitanda cyo kwa muganga.

Abagore bambaye ibitambaro mu mutwe abandi batabyambaye, bakikiye abana mu ntoki bari kubaha igikoma mu gikombe icy'ubururu, icy'umuhondo ndetse n'ik'icyatsi.

Abagore bafite utwana tw'uduhinja, bafite imisatsi y'imikara, harimo ufite malete, bose bicaye ku rubaho, bategereje yuko bagera igihe cyo gukingiza ngo bahure na muganga abafashe kuri abo bana babo.

Abagabo ndetse n'abagore bahagaze bafite telefone mu ntoki hakaba harimo abambaye amataburiya y'ubururu ndetse n'umugabo muremure wambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Abagore bari kumwe n'abagabo bambaye imyenda y'icyatsi yanditseho RBC hakaba harimo n'abandi bambaye imipira y'umutuku bakaba bafite akana bari ku kareba karyamye ku gitanda.

Abantu barimo umusirikare umwe bari mu nzu irimo amakaro hasi, bakaba begeranye n'akana kambaye imyenda y'ishuri gahetse agakapu mu mugongo. Iruhande rwe hari utundi twana twicaye ku mukeka.

Umugabo n'umugore bafite utwana twambaye utugofero tw'umutuku mu ntoki, bakaba bahagaze imbere y'inyubako ifite inkingi zisize irange ry'umuhondo, yubakishije amatafari ahiye kandi ifite amadirishya n'inzugi by'umweru.

Inyubako igezweho nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, iteye irangi ry'umuhondo, ifite n'ikigega cy'umukara ku ruhande, imbere yaho hakaba hari abantu bari kuhanyura barimo abagore n'abagabo.

Abantu benshi bambaye impuzankano y'icyatsi, bari kuziga bari kugenda, hakaba harimo n'umusirikare umwe. Hirya yabo hari abandi bantu bicaye matete babakurikiye.

Abagore babiri bicaye ku ntebe y'urubaho. Umwe ameze nkaho ari kurira yambaye agatambaro k'umutuku, undi ameze nkaho amuteze amatwi ari kumuhoza. Iruhande rwabo hari inkwi z'imyase.

Abanyeshuri bambaye imyenda yabo, harimo abambaye imipira n'abambaye amashati y'umweru ndetse n'amapantaro ya kake, bakaba bari kwifotoreza inyuma y'icyapa kinini, kiri mu mabara y'umweru.

Abantu bateraniye mu nzu runaka, biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bakaba harimo abambaye baji mu ijosi ndetse hari n'undi ufite kompiyuta n'amazi ku meza.

Abantu bambaye imipira y'umweru, yanditseho amagambo yo mu ibara ry'umutuku ngo USAID, inyuma yabo hakaba ari ubusitani bwiza n'icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi.

Abantu benshi bambaye imipira y'imyeru, harimo umugabo umwe uhagaze, wambaye amarinete, umupira w'umweru, isaha ndetse n'ipantaro, akaba afite mikoro mu ntoki ari kuvuga.

Akabati k'umweru gafitemo utu etageri twinshi, tukaba turimo imiti inyuranye, iri mu ducupa ndetse n'iri mu makarito y'umweru, umuhondo ndetse n'umutuku.

Uducupa twinshi dupakiye ahantu ku gakarito, tukaba dufite imipfundikizo y'imituku utundi iy'imyeru, tukaba dusa umukara hariho n'urupapuro rwanditseho amagambo agiye atandukanye.

Akabati gasa umweru kakaba karimo imiti myinshi igiye butandukanye iy'amatungo, harimo iri mu makarito ndetse n'iyindi iri mu macupa, apfundikije imipfundikizo y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga gipakiyemo imiti myinshi, ipfunduye ndetse n'iyindi ikiri mu makarito hakaba hari umugore uri kureba mu mashini n'undi uri kumwe n'umwana wicaye ku rundi ruhande bamwandikira imiti.

Inyubako igezweho isakaje amabati, isize irangi ry'umuhondo, hakaba hariho icyapa cy'umweru cyanditse ngo Lucky fam pharmacy limitted, hakaba kandi hariho n'andi magambo atagaragara neza.

Abantu benshi bari mu nzu nziza iri kuberamo inama, bakaba bicaye ku ntebe ziriho ameza ndetse hateretseho n'amazi. Buri wese afite ikayi ari kwandikamo.

Umuntu w'umugore wambaye agapfukamunwa na ga mu ntoki w'umujyanama w'ubuzima, akaba afite ipombo zabugenewe agiye gutera umuti mu nzu wica imibu.

Abantu benshi bahagaze biganjemo abazungu ndetse n'abapolisi, bakaba bari kwifotoreza imbere y'urukuta rurerure ruriho icyapa cy'ubururu cyandikishijeho amagambo y'umweru n'igiti kinini kiri inyuma yabo.

Abantu bazindukiye mu bukangurambaga, bambaye imyenda y'umweru, hari nabandi bicaye imbere yabo. Inyuma gato hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umutuku cyanditseho ngo: "Ugakoreshe neza".

Abantu benshi bambaye imipira y'umweru, hakaba hari n'abandi bambaye imyenda ya gisirikare ndetse n'uwambaye umwenda wa gipolisi, bakaba bafite icyapa cyanditseho ngo agakiriro.

Umuntu utagaragara mu maso, ugaragara intoki gusa, akaba afite agasekuru gatoya ndetse n'akantu basekuza kabugenewe, ari gusekura imiti yavangavanze y'ubwoko bwinshi.

Inzu itagaragara neza igisenge, ikaba yicayemo umurwayi wambaye agapfukamunwa ndetse na muganga wambaye imyenda y'umweru n'agapfukamuwa, bakaba bari kumusuzuma kugira ngo bamuvure indwara.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ishati y'umweru mo imbere akaba ari gukora mu kabati, karimo imiti ipfundikiye myinshi, iri mu bwoko butandukanye, ifite imfundikizo y'umutuku ndetse n'ibindi.

Agakombe kanini kabugenewe karimo imiti myinshi gakondo, ikaba irimo ibyatsi, imbuto udusharu tw'ibiti ndetse n'agakono k'umweru bakoresha basekura umuti.

Umugabo wambaye amadarubindi n'imyenda y'abaganga, akaba afite urupapuro ndetse n'ikaramu, hari n'undi uri iruhande rwe wambaye imyenda nk'iyo, bari kubwira umugore wambaye igitambaro afite n'urupapuro mu ntoki.

Abantu benshi bambaye impuzankano z'abaganga, bambaye n'udupfukamunwa, hakaba harimo umugabo umwe wambaye ikote ry'umukara, ryanditseho amagambo y'umweru, avuga ngo:" World health organization".

Icyapa kiriho amatungo, arimo ihene, ingurube, inka ndetse n'intama, bikaba biri mu mabara agiye atandukanye, ari mu dukarito. Hirya gato hari utundi ducupa tw'umukara.

Umugore w'umuganga wambaye itaburiya ndetse na baji mu ijosi, akaba afite imisatsi y'umukara yambaye na ga, akaba afite urushinge yarutunganyije yiteguye kurutera umurwayi.

Abantu barimo abambaye impuzankano y'abaganga, bahagaze imbere y'inyubako ifite amabati ndetse ikaba isize irangi ry'ubururu n'icyapa cyanditseho ngo girubuzima.

Amakarito menshi apakiye ahantu mu cyumba ari mu mabara y'icyatsi n'umuhondo yandikishijeho umutuku, hariho igishushanyo k'inkoko ndetse n'udushwi twazo.

Abagore bane bipfutse mu maso n'udupfukamunwa, bafite imisatsi y'umukara, bakaba bari imbere y'ameza ariho inshinge nyinshi, bari gupima indwara runaka.